Abadamu babiri bicaye imbere bari kwandika inyuma yabo hari abandi bantu bicaye inyuma iruhande rwabo kukameza hakaba hari amazi yo kunywa, umwe yambaye igitambaro mu mutwe undi nta gitambaro yambaye.

Abantu babiri bahagaze, umugabo n'umugore, umugore ari guhererekanya mikoro n'umugabo, hakaba hari abandi bicaye bo abenshi bambaye udupira tw'ubururu, imbere ku kukameza hakaba hari amazi.

Umuntu uri gutanga ubutumwa ku baturage ahagaze imbere yabo bicaye muri tente bari kumutega amatwi bumva ibyo ari kubabwira.

Abadamu batatu bicaye ku meza imbere yabo hakaba buri wese afite agakayi n'ikaramu hakaba hateretse uducupa tune tw'amazi hirya hakaba hateretse n'agagasakoshi k'umukara inyuma yabo hakaba hari umuntu uhagaze mu muryango.

Abaturage batandukanye bicaye mu busitani, imbere yabo hari amahema agiye yicayemo abandi, hakaba hari n'idarapo ry'igihugu ishinzemo hagati.

Abantu bicaye imbere ari batandatu, batanu muri bo bambaye udupira tw'icyatsi dusa ,iruhande rwabo hakaba ari umupolisi w'umudamu inyuma yabo hakaba hahagaze abantu benshi bose bambaye udupira tw'umuhondo.

Mu mbuga hahagaze umugabo ufite mikoro ari kuvuga ijambo, imbere ye hari abantu bari mu itente igizwe n'amabara harimo itarapo y'u Rwanda n'umweru. Iruhande hahagaze abandi bashinzwe umutekano n'abandi baturage.

Umugore wicaye iruhande rwe hicaye umugabo wa kositimu y'umukara n'ishati ijya gusa nk'iroze, umugore akaba yambaye ikanzu y'iroze. akaba ari kwandika mu gitabo, imbere y'umugabo hakaba hari agacupa k'amazi.

Abantu batatu bicaye harimo abagabo babiri n'umugore umwe mbere yabo bakaba bafite komputa hari na mikoro inyuma yabo hakaba handitseho Kigali yacu kigali ikeye.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore bicaye muri sare, imbere yabo hari abandi bicaye imbere bari gukurikira, inyuma yabo hari amakamera n'imbere hari sikirini iriho ibyo bari kumva.

Abantu batatu bicaye, harimo abagore babiri n'umugabo, umugabo imbere ye hakaba hari mikoro, afite n'ikayi imbere ye ku ka meza, inyuma yabo hakaba hariho Kigali yacu, Kigali ikeye.

Umugabo arahagaze arunamye ari kwandika imbere ye hari ameza n'igipapuro ari kwandika, iruhande rwe hari abandi batatu bicaye harimo; abagabo babiri n'umugore umwe umugabo umwe akaba yambaye ingofero hirya y'aho hari intebe zindi zitica abantu, ahandi ku ruhande naho hakaba indi ntebe yicara abandi bantu, inyuma y'abo hakaba hari inzu y'inyubako.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe umugabo uri hagati afite mikoro, imbere yabo hariho amacupa abiri y'amazi itasi yo kunyweramo icyayi na kompuyuta.

Abagabo bane baricaye bari kuganira, umwe yambaye ikoti ry'umukara na karuvati n'ishati y'umweru n'amarinete, undi yambaye ingofero y'umukara n'ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, undi yambaye ishati ijya kuba ubururu yambaye n'amarinete, undi yambaye ishati y'umweru. Imbere ku kameza hari mashini n'amakayi.

Umudamu uhagaze ufite urupapuro mu ntoki mu kuboko kw'ibumoso, ukuboko kw'iburyo kukaba kuri kwereka kuri sikirini iri iruhande rwe, imbere hakaba hari iriho ibintu bitandukanye, ku ruhande hakaba hicaye abantu bane barimo abahungu batatu n'umudamu umwe w'umuzungu, bakaba bose bafite kompiyuta bari gukoresha.

Abaturage bari gukurikira ijambo ry'umuyobozi ariko bagezaho mu gihe barangije gukora umuganda.

Abantu umunani bicaye mu itsinda rimwe bari kuganira, harimo abakobwa batatu n'abahungu batanu, inyuma yabo hakaba hicaye abandi na bo bari mu itsinda ryabo harimo abahungu bane.

Abantu batatu bahagaze imbere harimo abadamu babiri n'umugabo umwe bari gukoma amashyi, inyuma yabo hari n'abandi bantu barimo gukoma amashyi bose bahaga, imbere yabo ku kameza hariho amatelefone n'impapuro.

Abaturage barahagaze bafite ihene, hakaba hari inyuma yabo hari idarapo y'igihugu, hakaba hari n'umuntu ushinzwe umutekano muri abo baturage, muri abo baturage inyuma hakaba hari inzu ebyiri nyuma y'izo nzu hakaba urutoki ruteyemo.

Agakiyosike gakoreramo ibintu bitandukanye kakaba kari ku muhanda ku mbuga kakaba gakorerwamo serivisi zijyanye n'irembo banki equity beka hakaba hicayemo abantu batatu iruhande hakaba igicupa cy'amazi.

Ku muhanda ku kayira k'abanyamaguru hahagaze abahungu batatu, umwe yambaye ama ekuteri bose bafite amatelefone bari kuyakoresha, iruhande rwabo hakaba hari undi wicaye nawe uri gukoresha telefone, hino yabo hakaba hari abandi babiri bicaye harimo n'uwambaye ingofero nabo bari gukoresha amatelefone.

Abantu babiri harimo umuhungu wambaye linete uri gukoresha mudasobwa, iruhande rwe hakaba ari undi w'umuzungu wambaye ingofero y'umukara nawe urigukoresha terefone.

Abagabo batatu baricaye, imbere yabo buri wese afite kompiyuta iri imbere ku meza kandi buri wese akaba afite terefone mu ntoki ari kuyikoresha, imbere yabo hakaba harimo n'ahantu hari amakaye.

Umunara iruhande rwaho hari akazu kahubatse. Umunara ukaba uzengurukijwe n'urugo rw'utwuma. Hirya yaho hakaba hari inzu ihari.

Umunara ugizwe n'amabara y'icyatsi n'umweru, iruhande rwaho hari ibiti bibiri.

Abanyeshuri icyenda bari kumwe n'abarimu batatu, akaba ari bigisha kompiyuta buri wese akaba afite compiyuta imbere ye, bakaba bambaye amashati y'umweru.

Ikirango kerekana rebu, rebu mu magambo arambuye akabari rwanda edikasheni bodi, kikaba ari ikirango cyandikishijwe ibara ry'ubururu kuri rebu, Rwanda edikasheni bodi, ikaba yandikisha umukara, hakaba harimo n'amabara atatu ariyo ubururu umuhondo n'icyatsi.

Inyubako ebyiri za etaje ziteganye, mo hagati hakaba harimo akayira k'abanyamaguru, iruhande hakaba hari ahantu hateye indabyo, hakaba harimo abantu bari kugenda banyuranamo.

Abagabo batatu barahagaze bose bambaye imipira y'ubururu, iruhande rwabo hakaba hari ibikapu biri hasi, inyuma yabo hakaba hari umunara uzengurukijwe n'utwumo hirya yawo hakaba hari undi munara imbere yawo hari inzu.

Inyuguti n'ubusobanuro bwazo akaba ari RGB:Rwanda Governance Board. RGB ikaba yandikishijwe mu mabara y'ubururu na Rwanda Governance Board ikaba iri ahantu mu cyatsi yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ku bijyanye na Visit Rwanda, amakipe akorana na Visit Rwanda arimo, Arsenal, Paris Saint Germain, Bayern, hamwe n'umukinnyi w'umusitari uyamamariza.

Imbuga irimo jaride, imbere yaho hakaba harimo umunara, uwo munara ukaba ugizwe n'amabara y'umutuku n'umweru, ukaba uzengurukijwe na korotire y'ibyuma, iruhande rwawo hakaba akantu kameze nk'inzu, hirya yaho hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi.

Umunara ufite amabara y'umutuku n'umweru. Ukaba uzengurukijwe n'urugo rw'ibyuma, kuri ibyo byuma hakaba ariho igitambaro cya kampaniy y'itumanaho ya emutiyene.

Abantu batatu bahagaze, harimo umukobwa umwe ufite mashini mu ntoki, yambaye n'agapfukamunwa, afite n'agasakoshi ku rutugu k'umutuku, abandi bahungu babiri, umwe yambaye ingofero y'umukara n'agapfukamunwa, undi yambaye agapfukamunwa, afite n'ikayi mu ntoki, uwambaye ingofero ufite agapfukamunwa afite terefone, hari ibyo ari kwereka mugenzi we.

Ipoto y'amashanyarazi iteye ahantu hagati ku ruhande rw'iburyo hari parikingi yisanzuye. Ikaba irimo imodoka ya pikapu n'umuntu uhagaze. Ku ruhande rw'ibumoso hakaba hagiye harimo inyubako zitandukanye.

Ipoto y'amashanyarazi ikaba iteye ahantu hari ibyatsi byinshi. Inyuma yaho hakaba hari inyubako ihari, hirya yaho gato hakaba hari indi piloni ry'amashanyarazi rinini. Inyuma y'iryo pironi naho hakaba hari inyubako.

Icyapa cya rege Gasogi sitasiyo, iruhande rwaho hari uruzitiro rw'amabati, hari n'inzu hamwe n'ipiloni, n'itara ryo ku muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye n'abaturage bagenda bambukiranya imihanda, hakaba hariho moto ebyiri, imbere hari abaturage bari kwambuka, imbere yaho hari kwasiteri, hagati mu muhanda harimo ipironi ry'itara.

Igipangu na nimero ikiranga, kikaba gifite nimero kane, kikaba gifite n'itara kuhande. Iyo nzu nayo ikaba ifite antene ya CANAL PLUS, kikaba gifite n'amabati asize irangi ry'antiroyi ry'umutuku. Igipangu kikaba gifite ibara ry'icyatsi, n'urupangu rufite amatafari ahiye.

Ipironi rirerire ry'muriro, ririho insinga z'amashanyarazi, rikaba riteye ahantu hari ibiti, inyuma yaryo hirya hakaba hari umusozi uriho ishyamba ry'ibiti.

Ipironi ebyiri ziri mu busitani hafi y'umuhanda. Zikaba ziriho insinga zigiye zitandukanye. Zikaba ziri ahantu hiherereye, hitegeye amazu.

Ipiloni rinini ry'amashanyarazi rikaba riri ahantu hari ibyatsi byinshi, inyuma yaho hakaba hitaruye hari umusozi uriho amazu atuyeho abantu hagiye harimo n'ibiti.

Umunyamaguru ari kugenda ari kuri telefoni, mu gahanda k'ibitaka, iruhande rwe hakaba hateye ibyatsi, muri ibyo byatsi hakaba harimo amapoto abiri y'amashanyarazi.

Ku muhanda hakaba hari amapoto y'amatara agiye ari ku murongo akurikiranye. Iruhande rwaho hakaba hari n'ipironi ry'amashanyarazi. Mu muhanda hakaba hari imodoka ziri kugenda. Hirya hakaba hari agasozi gateyeho ibiti byinshi, hagiye harimo n'inzu mo hagati.

Ifoto y'amashanyarazi iri kuruhande ku gahunda kabanyamaguru iruhande rwabo hakaba hari aritiro y'indabo hepfo ya ha ha indabohande hasi.

Ipironi ry'amashanyarazi, iruhande rwaho hakaba hateye ibiti bibiri, hakaba hari n'abantu bahagaze batatu n'umwe wicaye, hino yaho hakaba haparitse imodoka, hirya yaho hakaba hari korotire y'igipangu.

Igipangu kigizwe na coruture y'amabuye kikaba gifite portaye y'ubururu, m’imbere hakaba hateyemo igiti kinini, iruhande rwaho hakaba hari jaride n'indabo, hakaba hateye n'ipoto ry'umuriro.

Mu kayira k'amaguru ku muhanda hariho abantu babiri bari kugenda, umudamu umwe n'umuhungu umwe uhetse marete wambaye umupira n'ingofero, ku ruhande hakaba hari amapoto y'amashanyarazi abiri, hejuru gato hakaba hateye insina.

Umukobwa ukorera kamanyi ya rege akaba yambaye kasike n'akajire akaba ari gukora ibijyanye na tekiniike z'umuriro.

Idarapo ry'igihugu riteye ahantu mu mbuga rikaba riri kumwe iruhande rwaho hari igiti, hirya yabo hakaba haparitse imodoka yo mu bwoko bwa lava hino y'idarapo ryayo gato hakaba hari ipoto ry'amatara iruhande rwaho hakaba hateye ikindi giti imbere hakaba hari igikuta cya koritire.

Akazu ka emutiyene k'umuhagenti inyuma yaho hari ipoto, ipironi ry'umuriro n'irindi riri inyuma n'inzu ebyiri n'umukobwa uri gutambuka mu muhanda.

Ku muhanda hari umukobwa uri gutambuka ku ruhande rwe hakaba hari ipoto ry'itara imbere ye hakaba hari icyapa cya parikingi ya bisi zitwara abantu muri rusange, ku ruhande hakaba hateye ibirabo inyuma hirya hakaba ari igipoto cy'umuriro, hirya y'igipoto cy'umuriro hakaba hari inyubako.

Imodoka ya ambilanse iparitse iruhande rw'ibitaro, aho ahakirirwa abihutirwa bakoze agisida, iruhande rwaho hahagaze abagabo batatu, ku rundi ruhande naho hahagaze undi muntu n'umumotari.

Ubusitani buzengurukijwe na korutire y'indabyo mo hagati hakaba harimo ibyapa bigiye bitandukanye, inyuma yabyo hakaba hariho imodoka zigiye ziparitse, inyuma y'imodoka hakaba hari inzu ifite irangi ry'umuhondo.

Umudogiteri w'umuganga arahagaze, imbere hicaye umukobwa arimo aramupima indwara, inyuma ye hakaba hari imeza iriho mashini akoresha, inyuma yaho hakaba hari intebe yicaraho.

Jaride iteyemo ibiti bitatu, inyuma yaho hakaba hari inyubako ya etaje hakaba haparitse n'imodoka muri parikingi.

Inyubako ebyiri ziteganye imwe imbere yabo hakaba hariho idarapo ry'igihugu cy'u rwanda iruhande rwaho hakaba hateye igiti hari na akajaride, muri parikingi hakaba haparitsemo imodoka hakaba hari n'abantu bari gutambuka.

Ku bitaro, hakaba hari umuntu umwe wicaye mu kagare, ku ruhande hakaba undi mumama na we wicaye ku ntebe, inyuma ye hakaba hari umugabo na we uhagaze ufite igipapuro mu ntoki wambaye ingofero, mu muryango hakaba hari undi mugabo uri kwinjira kwa muganga.

Mu marembo y'ibitaro bya Muhima hakaba hafunze n'umuryango w'ibyuma, imbere yaho hakaba hari umuntu uri ku ruhande ugaragara igice, hejuru ku muhanda hakaba haparitse imodoka y'umutuku.

Imodoka eshatu ziraparitse hakaba harimo imbangukiragutabara ebyiri ziparitse ku ruhande rw'iburyo, ku rundi ruhande hakaba haparitse imodoka ya vatiri inyuma yazo hakaba hari jaride n'akayira gatoya iyo jaride ikaba irimo ibiti, inyuma y'ibiti hakaba hari inzu y'inyubako iruhande rw'izo modoka za ambulanse hakaba hari korutire y'amabati y'ubururu.

Ku bitaro ahinjirira imodoka za ambiranse, ibitaro by'i Nyarugenge.

Kwa muganga abaganga babiri harimo umudamu wicaye n'umugabo uhagaze, akabari umurwayi kuhande uryamye ku gatanda biteguye kumufasha mu burwayi bwe arwaye.

Imihanda ibiri y'byerekezo bibiri bitandukanye nko hagati ha akaba hateyemo jaride hateyemo n'igiti hirya wambukiranyije umuhanda hakaba hari ibitaro byobabyarira ku ruhande akaba ari parikingi haparitse moto n'izindi modoka eshatu.

Abagabo babiri bakaba bicaye ku ntebe, umwe akaba ari umuzungu, undi akaba ari umwirabura. Uwumuzungu akaba afite mashini ari gukoresha, iruhande rwe hakaba sikirine, imbere y'undi wicaye undi umwirabura hakaba ari puberi, inyuma yaho akari ahantu bakarabira intoki.

Ku kabaraza k'inzu hari n'inkingi, imbere yaho hakaba hari jaride iteyemo ibiti. Hepfo yaho hakaba hateye ibiti ku ruhande na ho. Hirya yaho gato hakaba hari parikingi irimo, iparitsemo imodoka eshatu. Iruhande rwayo rw'iyo parikingi, hakaba hagiye hari inyubako zitandukanye.

Akarompuwe kari hagati hakaba hashizemo amadapo abiri; ku ruhande hakaba haparitseho imodoka; hirya yaho gato hakaba hari inzu zigiye zitandukanye.

Imbangukiragutabara y'ibitaro sehashika iraparitse, hirya yaho hari ibiti ahandi muri parikingi haparitse imodoka eshatu, iruhande rw'izo modokakaba hari inyubako.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Umugabo w'umwarabu ari hagati y'abapolisi babiri yambaye ingofero y'abayisiramu n'ikanzu, inyuma yabo hakaba hari imodoka n'umugabo uri iruhande bakaba bari kugenda.

Umunyamakuru fatakumavuta yambaye amapingu ari kumwe n'umuporisi inyuma ye. Fatakumavuta akaba afite n'agacupa mu noki k'amazi akaba yambaye ishati y'umukara n'ipantaro ya girini n'amarinete.

Umugorerwa Sankara, yambaye imyenda y'abanyururu akaba yambaye n'agapfukamunwa k'umweru, akaba ari kumwe n'umunyamategeko we wambaye agapfukamunwa k'ubururu, inyuma ye hakaba hicaye abandi bagororwa bambaye udupfukamunwa twa roze, inyuma yabo hakaba hari undi mucungagereza uhagaze.

Abacamanza batatu bicaye imbere yabo bakaba bafite amamashini ya raputopu, hirya ho hakaba hicaye abagororwa bambaye imyenda y'abagororwa bakaba bambaye n'udupfukamunwa.

Umudamu wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umweru n'umukara, akaba yambaye n'ingofero irimo amabara y'umuhondo n'umukara, akaba azamuye ukuboko, imbere ye hari mikoro, iruhande rwe hari iderapo y'Urwanda, akaba ari kurahira.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya, umwe n'umugororwa, undi ni umugabo usanzwe wambaye ishati y'umweru, inyuma yabo gatoya hakaba hari jaride iteyemo ibiti, ikaba iyo jaride nayo yegereye inyubako.

Inteko y'abaturage; abantu batandatu bicaye imbere yabo hari ameza; imbere yaho hari undi muntu uhagaze imbere; abandi baturage baricaye mu busitani, hakaba hateyemo n'ibiti byinshi.

Gereza ya Muhanga, akaba ari icyapa cyerekana kiriho amagambo yerekana gereza ya Muhanga ikaba ikorotiriwe n'urupangu rw'amabuye, ikaba ifite umuryango ukozwe mu byuma.

Madamu Ingabire Victoire akaba ari mu myambaro y'abagororwa, akaba yambaye amapingu. Nyuma ye hakaba hari undi mucungagereza w'umugore umuri nyuma, nyuma yabo hakaba hari n'undi mucungagereza w'umugabo ufashe ku modoka ya pikapu iparitse.

Imfungwa ziri kuva mu modoka zigenda ku murongo zikaba ziri kumwe n'abashinzwe kuzicunga batatu bari ku ruhande rumwe n'abandi bari ku rundi ruhande.

Abagabo batatu, bakaba bahagaze imbere, uri hagati akaba ari umucamanza w'umwavoka, bakaba bahagaze imbere aho baburanira, umwe akaba ahanitse akaboko.

Abagore babiri b'abadamu, bari hagati y'ababafasha mu mategeko, umwe akaba afite igitabo mu ntoki, imbere yabo ku kameza hakaba hari imashini ya raputopu n'ibitabo, hamwe n'agacupa k'amazi.

Umudamu uhagaze yambaye ikoti ry'umutuku mo imbere harimo agapira k'umweru, akaba afite agasatsi gake karinganiye.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Paul Rusesabagina mu myenda y'abagororwa, akaba yambaye amapingu afite na dokima, akaba yambaye n'agapfukamunwa, inyuma ye hakaba hari umucungagereza umuri inyuma wambaye agapfukamunwa, akaba ari kugenda ku ruhande hakaba hateye indabo ahantu bari kunyura.

Ku muryango wa gereza y'abahungu, hari umusereveya arahagaze, imbere ye hari abagororwa bane, iruhande hakaba ari akazu kubatse.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete, wambaye ikoti rijya gusa nk'umukara, ishati y'umweru na karuvati igiye irimo amabara y'umukara n'umweru, afite mikoro ari kuvuga, inyuma ye hakaba hari igipankarite cyanditseho visiyo.

Abagororwa babiri bakaba batwaye umuntu ku ngobyi, umugore umwe akaba yambaye ingofero, bakaba bari mu muhanda bagenda iruhande hakaba hari igipangu cy'amatafari ahiye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara na karuvati itukura yambaye agapfukamunwa akaba ari hagati y'abapolisi babiri akaba inyuma ye hari imodoka ya ribu n'undi umupolisi uhahagaze n'undi mugabo wambaye ishati n'ipantaro ya kaki wambaye agapfukamunwa.

Abacamanza baricaye, iburyo hari abacamanza babiri bambaye imyenda itukura n'ingofero, ibumoso hakaba abandi bacamanza batandatu bambaye imyenda y'imikara n'umweru harimo n'uwambaye n'ingofero.

Umudamu uri hagati wambaye amapingu, iruhande rwe hakaba hari abapolisi babiri b'abakobwa nabo bamufashe amaboko, inyuma ye hakaba hari umupolisi wundi uri inyuma, iruhande rwabo hakaba hari umucamanza.

Ikigo saniramu gifasha abakigana mu bwishingizi ndetse no gushinganisha ibyabo.

Abagororwa bakaba bari kugenda ari benshi bagiye bafite ibikoresho bitandukanye mu ntoki, i ruhande rwabo hakaba ari igikuta kirekire cy'inyubako.

Kizito Mihigo uhagaze imbere y'abaturage benshi akaba yambaye imyenda y'abagororwa, yambaye na baji, ahandi abantu bicaye hakaba harimo hagiye harimo ibiti mo hagati.

Umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri mo hagati harimo jaride hateyemo n'igiti, ku gisate kimwe mu imodoka ya kwasiteri ya polisi iri kuzamuka, ku kindi gisate hari imodoka iri kumanuka ya vatire.

Umupolisi wa militari polisi ahagaze mu muhanda ari kwereka ikinyabiziga cya kwasiteri aho kigomba guhagarara. Iruhande rwe hakaba ari umumoto utwaye umugenzi nawe ari kugenda mu muhanda.

Mu muhanda hari imodoka ebyiri, ku ruhande rw'ibumoso hari imodoka ya kizimyamwoto, ku ruhande rw'iburyo hari ikamyo yahiye akaba hari umukozi ushinzwe kuzimya umuriro akaba ari kuwuzimya, iruhande rw'uwo mukozi hari indi wicaye uri kumufasha, ku mpande z'imihanda hakaba hateye ibiti.

Umupolisi wa tarafike polisi utwara moto akaba ari mu muhanda rwagati, ibumoso bwe akaba yahagaritse imodoka y'ivuwatiri, inyuma y'iyomodoka y'ivuwatiri hakaba hari umuntu uhagaze, hirya yaho hakaba hari ibiti akajaride hakaba hagiye hariho n'amapoto y'amatara yo ku muhanda.

Abapolisi babiri ba tarafiki polici bakaba bahagaze imbere yabo hakaba hari ikimoto bakoresha inyuma yaho hakaba hari umukobwa uri kuhaca wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara imbere y'iyo moto hakaba haparitse imodoka wambutse umuhanda hakaba hari inyubako ebyiri.

Ku muhanda hahagaze abapolisi babiri, imbere yabo hari amamodoka abiri, ari guca mu makona. Bakaba bari gukoresha ikizamini kijyanye na demarage.

Imodoka ebyiri za polisi ziri muri parikingi, imwe iparitse iri imbere iri kwerekana purake za polisi arizo RNP makumyabiri kabiri kane N.

Imodoka ya kizimyamuto iparitse ikaba igizwe n'ibara ry'ubururu n'umweru, mu imbere hakaba harimo ibikoresho bakoresha mu gihe bari kuyikoresha bari kuzimya umuriro.

Mu muhanda hari imodoka ebyiri ziri kubisikana, imbere hari umupolisi uhagaritse imodoka, umanitse ukuboko, ukundi yagushyize ku ruhande yerekana ko ikinyabiziga kigomba guhagarara akagira ibyo akibaza.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru ifite inzugi zikinguye ikaba ifite inzu imigezi y'imibara y'ibyatsi, n'iziri mu ibara ry'umuhondo hejuru hamanitse icyapa kii ibara ry'ubururu kirimo amadarapo y'ubugu n'ubwongereza ndetse n'amerika.

Umupolisi wa trafic police, akaba ahagaze mu kayira k'abanyamaguru, imbere ye akaba hari ingorofani iriho umufuka, imbere cyane hakaba hari moto iriho umugenzi, imbere y'iyo moto akaba ari icyapa cya stop, ku ruhande rw'iburyo hakaba hari ipoto y'amashanyarazi, ku rundi ruhande hakaba hubatse inzu ya etage.

Abapolisi batatu barahagaze imbere n'umunyeshuri umwe n'umugabo umwe, inyuma yaho hari abanyeshuri benshi, inyuma y'abanyeshuri hari inyubako, imbere yabo ba polisi n'umunyeshuri n'umugabo, hari kizimyamwoto eshatu.

Umupolisi uhagaze imbere hari imodoka ihagaze harimo umugabo ari kumuvugisha inyuma yaho hari amazu n'ahandi hari ibintu by'ibiti .

Abapolisi bane bari kugenda iruhande rwabo akaba hari umunyonzi utwaye igare hirya wambutse gato hakaba hari abagenti batatu hakaba harimo babiri ba Emutiyeni n'undi wa Eyateli hirya yabo hakaba haparitse igikamyo gifite ibara ry'icyatsi.

Umumotari ari mu muhanda atwaye moto hagati hateyemo jaride mu muhanda hateyemo n'igiti. Hirya ye hahagaze umupolisi n'undi muntu hakaba hateye jaride hari n'igiti hirya y'uwo mupolisi n'uwo muntu hakaba hari inyubako.

moto nyinshi ziparitse mu muhanda rwagati imbere yahaze braco isaba abanyamaguru bambukiranya imbere y'abamotarikari abapolisi batanu mukoko k'iburyo akaba arizindi moto zihari ziparitse na n'ivoiture yataxi voiture iparitse mukundi koko ibumoso akaba ari yasparitse hirya ukomeje umuhanda hakaba izindi modoka zirimo

Umupolisi ari kumwe n'undi muntu bari kwereka abaturage uburyo kizimyamyoto ikora, bari imbere y'abaturage babereka uburyo kizimyamyoto ikora n'uburyo wayikoresha uri kuzimya inkongi y'umuriro.

Ako k'ameza hari utuzimya inkongi y'umuriro dutatu iruhande rw'abagabo hari isafuriya ku rundi ruhande hakaba hari gaze isafuriya iri kwaka umuriro iruhande hakaba hari umunyeshuri uri kumwe n'umupolisi akaba ari kwerekana uburyo bazimya umuriro nyuma yaho hakaba hari abanyeshuri benshi batandukanye ku rundi ruhandeha kaba hari umupolisi n'undi mugabo.

Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ari imbere ari kugeza ijambo ku bagize inteko, inyuma ye hari abo bakorana bane, hakaba harimo umudamu umwe, hakaba haei n'amadarapo abiri harimo iry'u Rwanda n'irindi.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Abadamu batanu bari imbere b'abayoboke ba efuperi inkotanyi, bose bakaba bambaye imyambaro efuperi inkotanyi, bakaba bambaye n'ibitambaro mu mutwe, inyuma yaho hakaba hari ahantu bafite amadarapo menshi hari n'ufite n'iririho nyakubawa perezida wa repubulika y'u Rwanda.

Abantu batatu harimo umuhungu umwe n'abagore babiri barasutamye barimo barabara amajwi y'amatora bose bambaye udupira tw'umweru.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, iruhande rwe hakaba hari Uduwari Ngirente akaba afite agakapu mu ntoki, inyuma yabo hakaba hari abagabo batatu n'umugore umwe, umugabo akaba afite dokima mu ntoki n'umugore, inyuma yabo handi hakaba hari abandi bantu benshi, iruhande hakaba hari jaride ihateye n'ibiti.

Umusaza ubana n'ubumuga akaba yicaye mu kagare akaba ari aho batorera akaba ari gushyira agapapuro aho bashyira amajwi.

Madamu Mimoza ari hagati, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikositimu y'ubururu na karuvati y'umutuku, ku rundi ruhande hakaba hari umudamu wundi wambaye agakoti gafite amabara atandukanye.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ubwiza bwa Legasi hoteli kirangira abifuza serivisi zayo, imbere yacyo hari imikindo itatu umwe ukaba usa naho wihishe hagaragara amababi yawo, indi ibiri umwe urakuze undi uracyari muto.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ku ruhande rw'iburyo, Mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na bitanu ku ijana, Habineza Frank, zero n'ibice mirongo itanu na bitatu. Mpayimana philipe zero n'ibice mirongo itatu na bibiri.

Idarapo ry'ishyaka rya PSD. PSD akaba ari ishyaka rya politiki hano mu Rwanda, rikaba rigizwe n'amabara atatu; icyatsi umweru n'ubururu.

Habineza furanke ari kwinjira aho agiye kwiyamamariza iruhande rwe akaba ari umudamu uri inyuma ye ku rundi ruhande hakaba hari abantu bari gukamera imbere ye hakaba hari umuntu wambaye imyenda y'ishyaka ibirango by'ishyaka ryabo inyuma haakaba haparitse amamodoka menshi.

Madamu Louise Mushikiwabo akaba yicaye imbere ye hari mikoro nyinshi, akaba afite n'ikaye imbere ye, iruhande rw'iburyo hakaba hari idarapo.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, arimo arasuhuzanya na mozehe Tito, inyuma ye hirya gato, hakaba ari umudamu urigukoma amashyi, hirya hakab harabandi bagabo bambaye amakote. Hakaba hari n'abandi bantu benshi.

Nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ari gusuhuza abaturage akaba ahagaze, inyuma ye hari abashinzwe umutekano bamurinda bagera kuri batandatu, iruhande hakaba hari umukobwa uhagaze imbere hakaba hari ibyuma birinda umutekano.

Urupapuro rw'itora rutorerwaho Perezida wa Repubulika, hakaba hariho abakandida batatu Paul Kagame, Habineza Frank na Mpayimana Philippe.

Dogita Habineza Frank wiyamamarizaga kuba perezida wa repubulikam akaba ari mu modoka yasohoye igihimba ari kwiyerekana, ari gusuhuza abantu iruhande rwe hakaba hari abantu bafite ifoto ye.

Abagabo babiri bambaye amakositimu y'ubururu bari guhererekanya ikintu inyuma yaho hicaye umugore imbere hari ameza iriho ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu babiri bakaba bicaye; umugabo n'umudamu. Bose bakafite ibitabo mu ntoki, umugabo akaba ari kwandika. Iruhande rw'umugore hakaba ari akameza kariho agasakoshe n'agacupa k'amazi. Inyuma yabo hakaba handitse amagambo avuga: "ubumwe n'ubudaheranwa."

Umudamu w'umunyamuryango wa FPR inkotanyi, akaba ahagaze imbere, ari kuri mikoro ari kuvuga amanitse ukuboko afite n'akadarapo mu ntoki ka FPR yambaye ingofero ya FPR, inyuma hakaba hari ifoto ya Nyakubahwa Perezida wa Repuburika y'u Rwanda.

Abayoboke benshi ba FPR inkotanyi n'amadarapo ahagaze, bambaye ibintu bigiye bitandukanye imyenda y'umweru hari abambaye imyenda y'umutuku.

Umugabo wicaye wambaye kositimu y'ubururu n'ishati y'umweru na karuvati y'umutuku akaba afite uruhara ku mutwe, iruhande rw'iburyo hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo arahagaze imbere hari mikoro ari kuvuga, yambaye ikoti ry'ubururu, agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu n'inkweto za shokora. Inyuma ye hicaye abantu batanu harimo abagore batatu n'umugabo umwe, imbere yabo hakaba hari akameza kariho igitambaro cy'ubururu. Inyuma hakaba hari inyubako iriho icyapa cya emutiyene n'ikindi cyapa cya bipiyara ajenti.

Nyakubahwa Perezida wa Repuburika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye ingofero n'agapfukamunwa, yambaye n'umupira w'umutuku wa FPR, akaba yafunze igipfunsi, imbere ye hari undi munyamuryango wa FPR na we witwa Gasamagera wambaye ingofero na we yanditseho.

Madamu Fatuma Ndangiza akaba ari umudepite muri isiti afurikani, akaba yambaye igitambaro mu mutwe kijya ku ubururu n'amaherena, akaba yambaye n'ikanzu yera, akaba yambaye na shinete mu gatuza, iruhande akaba ari undi muntu bicaranye.

Frank Habineza yicaye hagati, afite mikoro. Iruhande rwe hari umugabo wicaye iruhande rwe wambaye amarinete, ku rundi ruhande rw'ibumoso hakaba hari umudamu uhicaye na we. Imbere ye hakaba hari amamikoro menshi. Hakaba ku ruhande rw'uwo mugabo bicaranye hariho agacupa k'amazi n'umugore wundi bicaranye akaba afite agacupa k'amazi imbere ye. Hari n'amafoto ya Frank ahari.

Mu cyumba cy'itora, abashinzwe kubara amajwi, barimo barabara amajwi, bayavana hasi bayashyira mu gakarito kabugenewe, bari kubara amajwi y'abatowe.

Abantu batandatu bari gutambuka. Imbere hakaba hari abagabo batatu n'umugore umwe. Inyuma hakaba hari abagore babiri. Abagabo bakaba bambaye amakositimu abiri y'ubururu bafite na dokima mu ntoki. Undi akaba yambaye ikositimu ijya gusa umukara. Inyuma yabo hirya hakaba baparitse imodoka hari n'abandi bantu babiri bahagaze. Ku ruhande hakaba hari ari akajaride.

Abanyamuryango b'ishyaka rya efuperi bari kwamamaza umukandida wabo, umwe babiri bari imbere umwe ari inyuma hagati afite ifoto ya nyakubahwa perezida wa repubulika, iruhande rwaho hari amadarapo atatu ya efuperi.

Abagabo batatu n'umugore umwe bari imbere bari kurahira bafashe ku madarapo y'u Rwanda. Inyuma yabo hari abandi bagore babiri nabo bari kurahira bafashe ku madarapo y'u Rwanda.

Ikamyo ya hoho ifite ibara ry'umuhondo n'umukara iri mu muhanda iri ku kugenda inyuma yayo hari ivuwatiri y'umutuku iruhande rw'iyo vuwatiri y'umutuku hari izindi modoka ebyiri ziri kumanuka mu gahanda k'abanyamaguru harimo umuntu umwe uri kugenda ku ruhande rw'agahanda k'abanyamaguru hateye ibiti kuruhande.

Basi itwara abantu muri rusange ya yutongo, iri kuva muri gare yinjira mu muhanda, mu ruhande rw'iburyo hakaba hari bantu bahagaze, mu ruhande rw'ibumoso hakaba abandi bantu bari kwambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kunyuramo imodoka ubwoko bw'ikamyo ya fuso inyuma yaho akanyamitende gatoya hiryaho hakaba ari inzu y'inyubako ya etage mbere yaho hakaba parikingi iparitse y'imodoka eshatu.

Mu gahanda ko mu ikaritsiye, mota imwe iraparitse, indi iri kumanuka, hepfo yaho hakaba hari imodoka ya RAVA, na yo iri kumanuka, ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari icyapa kerekana nimero y'umuhanda, iruhande rw'icyo cyapa, hakaba hari korutire imanuka, hagiye harimo inzu zitandukanye.

Ikinyabitende itatu kiri mu muhanda, iruhande rwaho hari igare rihetse umufuka w'ibirayi.

Iyi nzu iriho icyapa cya betingi yitwa Forute betingi, imbere yaho iruhande hakaba haparitse ivatiri, hakaba hari n'umukarani wikoreye ibintu uri kunyuraho. Mu muhanda imbere yaho hakaba hari kugenda imodoka, ya rukururana y'igikamyo. Iruhande rw'ikamyo hakaba harimo, umumotari utwaye umugenzi.

Imodoka ya dayihatsu iri mu muhanda iri kubisikana n'indi pikapu, ku muhanda ku ruhande hari abantu babiri bari kugenda. Inyuma mu muhanda hari igare riri kugenda ririho umgenzi.

Igikamyo kiri mu muhanda kiri kugenda kigizwe n'ibara ry'icyatsi hamwe n'umutuku n'umukara n'umweru nubururu.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi nini ya jagwari. Ikaba iri mu muhanda iri kugenda, imbere yaho hakaba hari abanyonzi babiri. Hirya y'aho mu kayira k'abanyamaguru, hakaba hari umuyonzi n'undi munyamaguru uri kugenda, hirya yaho hakaba hari ibiti, hagiye hateye ibiti.

Inzu ziri ku muhanda eshatu zikurikiranye, inyuma yaho hari indi iri kubakwa ya etaje, ku muhanda hari moto iparitse ku ruhande n'indi moto iri kugenda mu muhanda rwagati.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo iri mu muhanda iri kugenda, ku ruhande kugahanda k'abanyamaguru hari umukarani wikoreye umufuka, wambutse hirya hari ipoto ry'itara hakaba hateye n'ibiti, ku ruhande hakaba hari n'umuntu uri kunyura mu gahanda k'abanyamaguru.

Bisi zitwara abagenzi muri rusange zikaba ziparitse, mo hagati hakaba hari kunyuramo umuntu w'umugabo wambaye y'umutuku n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru, imodoka imwe ku ruhande rw'ibumoso ikaba iriho icyapa cyamamaza beka, hakaba n'umukobwa uriho wazamuye amaboko.

Imodoka ya coaster y'umweru, ikaba itwara abantu rusange, ikaba iri mu muhanda yonyine, iruhande rwaho hakaba hari icyapa cyerekana ku nzu ko hakorerwamo imikino ya betingi, iruhande rwaho hakaba haparitse imodoka ebyiri, inyuma y'iyo coaster hakaba hari abamotari benshi.

Ku gahanda moto iraparitse iruhande rwa moto hari inyubako ifite uturyango dutatu akaryango kamwe ni aka busheri harimo akabido mu muryango n'intebe iri imbere, undi muryango hahagazemo umuntu wo hagati harimo imodoka y'umweru hepfo yaho hari moto ziri kubisikana ziri kumanuka n'abantu bari kugenda.

Imodoka eshatu ziri kubisikana mu muhanda n'umumotari utwaye umugenzi, muri izo modoka harimo itwara abagenzi rusange nini kahomo na rava ebyiri ziri kubisikana.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi muri rusange, ikaba iparitse, iruhande rwayo hakaba hicaye umukozi wa sosiyete ya MTN ya mobayilo mani, ikaba ari imodoka igizwe n'amabara y'ubururu harimo n'umweru n'umukara.

Mu muhanda harimo moto icyenda zikaba ziri kubisikana na fuso ya hoho y'umutuku, kugahanda k'abanyamaguru hakaba hari umunyonzi w'igare, hirya y'umuhanda hakaba hateye ibiti.

Igare riparitse ku muhanda rihetse imizigo inyuma mu muhanda hakaba hari imoto itwaye umugenzi.

Mu mihanda ibiri y'ibyerekezo bibiri bitandukanye umwe moto ebyiri zirazamuka inyuma y'imodoka y'umutuku kurundi ruhande moto irimo iramanuka hagati hateyemo ibiti na jaride.

Imodoka ya fuso iri mu muhanda, ku ruhande rw'iburyo haparitse umumotari, ku ruhande rw'ibumoso hari icyapa cy'umuvuduko ntarengwa wa mirongo itandatu mu isaha, hakaba hari n'umugabo uri mu muhanda usa nk'ugiye kwambuka.

Abanyonzi babiri b'amagare bari kubisikana mu muhanda umunyonzi umwe akaba afite ibintu ahetse by'imizigo uwundi ku ruhande nawe akaba ari kugenda imbere ye hakaba hari imodoka ebyiri ziri kugenda harimo ikamyo n'indi modoka iruhande rw'umuhanda hakaba hateye ibiti byinshi.

Yego kabuzi ifite pulake eri a efu karindwi zeru gatatu esi hari abantu babiri bayihagaze ku ruhande.

Umugabo uhagaze ku kayira k'abanyamaguru imodoka iri mu muhanda iri gupakira imbaho, iruhande rw'imodoka mu muhanda harimo abamotari bari kugenda hirya gato hari imodoka iri kwinjira mu muhanda iruhande rw'iyo modoka hakaba hari inzu ya etage.

Umuhanda munini mugari, harimo abamotari ari kugenda n'umunyegare, inyuma yaho hakaba hariyo romoruke ikamyo ikururana.

Umumotari ari mu muhanda wenyine, aratwaye agiye kugera imbere ahari zebura korosi, ku muhanda ku ruhande hafi y'akayira k'abanyamaguru hakaba hateye ibiti, hari n'ubusitani.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda rwagati imwe ni kwasiteri, indi ni ivatiri ziri kugenda mu cyerekezo kimwe hirya kuruhande rw'iburyo hari inzu ya etaje, hasi haparitse imodoka ebyiri izi modoka ziri mu muhanda hariho agakiyosike ka Airtel.

Abanyonzi babiri bahetse imizigo irimo ibirayi, umwe yambaye igisarubeti cy'icyatsi, iruhande rwabo hari tagisi vuwatiri iri mu muhanda.

Imodoka ebyiri za tagisi vatire ziparitse muri parikingi, imbere yaho hari ikirango cya mango foji n'inyubako igiye irimo ibintu bigiye bitandukanye bikorerwamo.

Umugenzi ari kugenda mu muhanda afite ambarage mu ntoki, inyuma ye haparitse moto. Iruhande rwa moto hari intebe ebyiri za plastike n'igare riri ku ruhande, imbere ye hari umu agenti wa emutiyene n'umutaka wa emutiyene.

Mu muhanda ikamyo ya dayihatsu iri kugenda ipakiye inyuma ibintu, harimo n'umuntu inyuma wicaye wambaye igisarureti cy'ubururu n'ingofero. Iruhande rw'umuhanda hakaba hari ipoto y'itara n'ibiti biteye ku ruhande.

Mu muhanda harimo imodoka ya tagisi vatire iri kubisikana hamwe na moto itwaye umugenzi, iruhande hakaba hari n'igare riri kugenda, wambutse hirya hakaba hazitiwe bigaragara ko bari kubaka.

Imodoka ebyiri mu muhanda, imbere hari dayihatsu inyuma hakabaho ifuso y'ubwoko bwa howo, iruhande rwayo hakaba hubatse inzu, haparitse n'imodoka ku ruhande, mu rundi ruhande hakaba hari abaturage, bari kugenda mu kayira k'amaguru, iruhande rwaho hakaba hateye ibiti.

Imodoka itwara abagenzi muri rusange ya Royal express. Iri kubisikana na moto itwaye umugenzi. Ku gahanda k'abanyamaguru hariho abagabo batatu bari gutambuka.

Imodoka ebyiri ziraparitse. Imwe ikaba iri mu bwoko bwa fuso indi ikaba iri mu bwoko bwa dayihatsu. Iyo mu bwoko bwa fuso ika ipakiye imifuka myinshi, iyo mu ubwoko bwa dayihatsu nayo ikaba ipakiye iriho shitingiy'umukara.

Umuhanda moto iri kubisikana n'imodoka ya dayihatsu ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwabo hakaba hazitiwe n'ahantu hari ibiti biteye.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ipakiye imifuka, hejuru shitingi y'ubururu. Ku ruhande rw'iburyo hakaba hateyeho jaride, ukomeje imbere hakaba hari abantu bahagaze, hateye n'igiti, ku ruhande rw'ibumoso wambutse umuhanda hakaba hari inyubako z'amazu.

Imodoka ya esipe iri kugenda ipakiye gaze ikaba igizwe n'ibara rya move n'umweru .

Ikinyabiziga k'imodoka yo mu bwoko bwa tagisi vatiri, iri mu muhanda iri kugenda, inyuma yaho hari imodoka zindi ebyiri, mu muhanda harimo hagati jaride irimo ibiti.

Muri Kafurizone hakaba hagiye harimo inyubako zigiye zitandukanye harimo n'abaturage bagenda babisikana, iruhande ku muhanda hakaba harimo umumotari, hakaba harimo harimo na jaride zigiye zitandukanye.

Ni kazu kagenewe abagenzi bategerezamo imodoka cyangwa bugamye imvura, kazengurukijwe n'akarindabasazi, imbere yaho hari abaturage babiri bari kugenda n'imodoka iri inyuma yabo.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bari gukina, inyuma yaho hakaba hari ibiti biteye byinshi, n'amazamu abiri muki mu kibuga.

Ubusitani bugari, ku ruhande hakaba hari umuhanda, umuhanda uriho amapoto y'amatara. Muri ubwo busitani hakaba harimo ahantu hubatse tiribine, muri iyo tiribine hakaba hagiye hubatsemo utuntu tw'amatafari, ku ruhande rwaho hakaba hateye ibiti byinshi.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana mu muhanda aho banyura bazengurutse, aho imodoka zinyura zizengurutse ibyo bita rompowe naho imodoka zinyura zizengurutse.

Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa wa kilometero mirongo ine mu isaha , kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'umukara.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana nimero y'umuhanda. Kikaba ari KK magana ane mirongo itatu n'icyenda ST, imbere yacyo hakaba haparitse Lava y'ubururu, iruhande rw'iyo Lava hakaba hari ibirabyo hateyemo n'igiti, hirya gato hakaba hari umuntu uhagaze hari n'igipironi cy'amashanyarazi.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana ko aho ikinyabiziga kigeze hagenewe kunyura abanyamaguru kikaba ari icyapa kigizwe n'amabara y'umukara, umweru n'ubururu.

Icyapa ku muhanda cyerekana nimero y'umuhanda, keji magana tanu nari rimwe esiti, mu muhanda hari imodoka ya kwasiteri iri kugenda, iruhande rwayo harimo moto ziri kugenda, mu muhanda hagati hateyemo ibiti muri jaride.

Icyapa cyo ku muhanda cyagenewe kwereka abatwaye ibinyabiziga ikimenyetso cy'uko imbere hari ikorosi, rikata kikaba giteye ahantu hari ibyatsi byinshi.

Ibyapa bibiri kimwe cyerekana utagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu kikaba kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru kikaba cyandikishijwe amabara y'umukara imibare ikindi ni icyerekana ko hari kamera ifatagabanije umuvuduko kikaba kigizwe n'amabara y'umukara n'umweru.

Abagabo batatu bakaba bari kumanika icyapa kijyanye no kwerekana yuko hari kamera ifata abafite umuvuduko mwinshi, bakaba bari kuyishyira hasi icyapa cyerekana ko ari umuvuduko ntarengwa wa kilometero mirongo itandatu mu isaha. Inyuma yaho hakaba hubatse inzu ya etaje ifite korutire y'ibyuma

Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa. Kikaba ari icyapa cyerekana ko utwaye ikinyabiziga atagomba kurenza umuvuduko wa mirongo itatu mu isaha. Akaba ari icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru n'umutuku n'umukara.

Icyapa ku muhanda kigaragaza umuvuduko ntarengwa, ku kirometero mirongo itandatu mu isaha. Munsi yacyo hakaba hari ikindi cyapa cyerekana ko imbere hari kamera ipima umuvuduko. Kikaba giteye ku muhanda hari jaride iruhande rwaho hari ibiti.

Ni mu nzu mu cyumba kigairi cyahariwe gukorerwamo inama hateraniyemo abantu batanu abagore n'abagabo, umwe muri bo ari imbere ari kubasobanurira yifashishije ikoranabuhanga.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana yuko nta parikingi ihari, ko nta modoka yemerewe kuhaparika. Iruhande rwaho hakaba hari ipironi ririho amasinga y'umuriro, hakaba hateye n'indabo ku ruhande.

Icyapa cyo ku muhanda, cyerekana abatwara ibinyabiziga ko bagomba kwitonda, hari inzira y'abanyamaguru. Akaba ari icyapa kigizwe n'amabara atatu: umutuku, umweru, n'umukara.

Icyapa cyo ku muhanda, cyerekana ko hari parikingi y'imodoka z'abagenzi muri rusange. Kikaba kigizwe n'amabara y'umweru n'ubururu.

Umugabo ufite igikapu ku rutugu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko maremare kajya gusa icyatsi, ahagaze ku kayira k'abanyamaguru ku muhanda. Inyuma hakaba hari icyapa cyanditseho Rusizi district ahandi handitsemo welcome to the Republic of Rwanda.

Ku muhanda hari icyapa cyerekana ko ari umuhanda ukomeza, iburyo hakaba ari undi ukatamo, akaba ari icyapa kiri ku muhanda ku ruhande hateyeho ibirabo.

Icyapa cyo mu muhanda cyereka ibinyabiziga ko imbere hari ikorosi ibumoso akaba ari icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru n'ubururu .

Icyapa cyo ku muhanda cyagenewe kwareka abatwara ibinyabiziga ko gukata iburyo bitemewe. Kikaba ari icyapa cyandikishijwe ibara ry'umukara, kikaba kizengurukijwe n'ibara ry'umutuku. Hagati hakaba harimo umweru.

Icyapa cyo ku muhanda kerekana kugendera ku muvuduko ntarengwa, akaba ari ukugenra muvuduko ntarengwa wa mirongo itandatu ku isaha, kikaba kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku, cyandikishijwe n'imibare y'umukara n'ubuso bw'umweru.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana ko imbere ahagenewe abantu bagenda n'amaguru, kikaba gihagaze ku muhanda inyuma y'aho hariho ibiti biteye byinshi.

Inyubako ya zigama CSS banke, ikaba ari banke ya gisirikare. Imbere yaho hakaba hari ibyapa bigiye biriho ibintu bitandukanye. Hino yaho hakaba hateye igiti.

Inzu ya etaje eshatu akaba ari inzu ya infiniti hoteli. Iruhande rwaho hakaba hari ibirabyo, hakaba hari n'ipoto ry'itara, ku ruhande hakaba hari umuntu uri kugenda.

Ubusitani bwitaruye buteyemo ibiti, imbere yaho harimo agahanda kamanuka, wambutse hateyemo jaride, ruhande rwa jaride hari korotire y'igikuta kizengurutse mo imbere hakaba harimo inzu ya etaje enye.

Mu muhanda hari urujya n'uruza rw'abantu, n'ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda. I ruhande hari amazu y'ubatse, hari na parikingi iparitsemo imodoka, hakaba n'ibyapa bigenda byamamaza.

Inzu ya etaje igeretse, ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, yandikijwe n'ibintu by'umutuku, ikaba ifite n'ahantu hagizwe n'ibirahuri, imbere yaho hakaba haparitse imodoka y'ivatiri y'umutuku.

Inzu ebyiri ziteganye z'amabati, imbere yaho hakaba hari urukuta, hirya y'urukuta hakaba hari ikigega cy'amazi, iruhande rw'ikigega cy'amazi hakaba hateye igiti, imbere y'ikigega cy'amazi hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi, hirya hakaba hari amazu agiye atandukanye.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Inyubako ya etaje igeretse kane, ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye, imbere yaho hakaba hari parikingi iparitseho imodoka, kuri izo modoka hari umuntu uhagaze imbere, ku ruhande rwaho hakaba hari umumotari uri kujya mu muhanda, mu muhanda hakaba hari gucamo ivatiri y'umweru, iruhande rw'inzu hakaba hateye jaride, hateye n'ibiti.

Ku muhanda, icyapa cyerekana izina ry'umuhanda. KK mirongo itanu n'icyenda, st. Hirya wambutse hari umumotari uparitse, inyuma ye hakaba hari ibirabyo biteyeho, mo imbere harimo imodoka ziparitsemo.

Umuhanda w'amabuye, iruhande rwawo hari icyapa cyerekana nimero y'umuhanda, keke ijana na cumi na gatatu, iruhande rwaho hari ibirabyo biteye.

Inyubako y'umurenge wa Kimironko yitwa biza ikaba izengurukijwe n'utwuma, hagati hakaba hagiye harimo ibiti bitandukanye.

Inzu ya etage iri hafi y'agahanda mu gahanda harimo abaturage babiri bari kugenda, inyuma hakaba hari umumotari uparitse mbere y'aho hakaba hagiye hari ibiti byinshi bitandukanye.

Inzu zikurikiranye ziri ku muhanda, iruhande rwaho hakaba hateye ipoto ry'amashanyarazi, iruhande ry'ipoto hakaba hateye utwatsi, hakaba hari umuhanda ukomeza ujya mu ikaritsiye.

Inzu igeretse ya etage akaba ari Great Apartment Hotel; ikaba isize irangi ry'icyatsi n'irindi rijya gusa nk'icyatsi cyijimye.

Amazu atondekanye ku murongo agiye ariho itanki. Hakaba hari na antene ya canalt. Amatanki akaba ari ane. Hakaba hari n'itara ku rugo rwaho. Akaba ari urupangu rufite amatafari.

Inyubako ebyiri ziteruye zifite irangi ry'umweru, zikaba zikotewe n'agapangu k'amatafari ahiye, zikaba zifite porutaye y'ibyuma nyuma yaho hakaba hari parikingi nini kayiparitsemo imodoka ebyiri.

Mu gahanda k'igitaka imbere yaho hari akabotike gaparitseho moto ebyiri n'imodoka ebyiri ziri inyuma yaho. Mu muhanda hepfo hari gumoca umuntu w'umuhungu imbere ye hari gucamo umukobwa. Ku gahanda hepfo hari umutaka wa MTN.

Inyubako ebyiri za etage zikurikiranye iya mbere ikaba hasi hari parikingi iriho imodoka eshatu iruhande rwabo haakaba ari moto itwaye umugenzi hakaba n'abandi bantu batatu bari imbere y'izo modoka .

Icyapa cyerekana umuhanda; ke ke mirongo itanu na gatatu ese ti. Kikaba kigizwe ibara ry'umweru mu buso cyandikishijweho ibara ry'umukara.

Inyubako eshatu zikurikiranye zigeretse, ziri ku muhanda w'igitaka, imwe umuntu ahagaze imbere yayo ku rugi.

Ahakorerwa imikino yo gutega ibyo bita betingi iruhande rwaho hari umutaka wa emutiyeni inyuma Yaho hakaba hari inyubako igeretse.

Inzu ya etaje imbere yayo haparitse amamodoka atanu. Iruhande rwayo hakaba hari indi nzu, no ku rundi ruhande haba hari indi nzu iri kubakwa itari yarangira.

Ku kayira k'abanyamaguru umugabo arimo aragenda ahetse maleti iruhande rw'ibumoso hakaba hari ari inkingi ntoya ziri ku muhanda zisize irangi ry'umutuku n'umweru muwundi muhanda hakaba harimo umumotari uri kugenda n'imodoka ya pkp akaba ari n'umuntu uri kwambukiranya umuhanda muri zebura korosi imbere y'uwo muntu hakaba hari etage y'inyubako ebyiri iriho ibintu byamamaza bitandukanye hakaba hari gucamo imodoka mu muhanda.

Inzu igizwe n'igisenge cy'amategura y'umutuku, ikaba ifite akabariko ku ruhande, hirya yaho hakaba hari indi nzu na yo ifite igisenge cy'amategura y'umutuku, ikaba ikorotiriwe n'agakorutire k'amatafari ahiye.

Urujya n'uruza rw'abantu na moto mu muhanda. Hirya y'aho hakaba hari ahantu haparitse imodoka. Iruhande rw'iyo modoka hakaba hari inzu ya etaje ebyiri.

Ibinyabiziga bitatu biri mu muhanda imbere hari imodoka ya fuso y'ikamyo, inyuma yaho hari umumotari utwaye umugenzi, inyuma y'umumotari naho hari ivatire, ku ruhande hari akazu kagenewe guhagaraho abantu batega imodoka.

Igiceri cy'u Rwanda cyanditseho banke nasiyonari di Rwanda, bigaragara ko cyakozwe mu mwaka w' igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, kandi iki giceri gishushanyijeho igitoki bigaragara ko mu Rwanda haba insina nyinshi.

Ku mihanda ibiri, uwo hasi utambika n'uwo hejuru wundi utambika hasi hakaba harimo ikamyo ya fuso iri kugenda, inyuma y'aho hakaba hari indi moto itwaye umuntu uri kugenda, mu kindi gisate hakaba hari moto ebyiri na zo ziri kugenda mu kindi cyerekezo, ku gahanda k'abanyamaguru hariho abaturage bari kugenda. Iruhande hakaba hateyeho jaride, hakaba hari n'ibiti.

Umugore wirabura ufite imisatsi myinshi y’umukara namaso ajya kuba matoya wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umweru, ndetse n’umukara ahagaze imbere y’ igikuta gifite ibara ry'mweru.

Umuhanda ugeretse hariho umuhanda wo hasi n'uwo hejuru, hagati hakaba harimo inzira yambukiranya umuhanda wo hasi, iruhande hariho aho abaturage babiri bari kugenda, hakaba hari n'icyapa cyerekana yuko ko nta parikingi ihari.

Imihanda ibiri harimo ukomeza n'undi iburyo ukata, hakaba harimo n'akarompuwe, mu muhanda munini ukomeza harimo moto, ukata iburyo harimo imodoka.